Ababyeyi bakenyeye ibitenge bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umweru bateze ibitambaro mu mitwe yabo baje mu ihuriro ryo kwita ku buzima ryabereye mu nyubako yo kwa muganga.